Umugabo wambaye itaburiya yo mu ibara ry'ubururu, afite urupapuro rushushanyijeho abantu babiri, ari kwereka umugore bahagararanye ukenyeye igitenge.

Abantu benshi bahagaze mu cyumba bambaye imyambaro yo mu mabara y'umweru, agaragara nk'impuzangano y'abaganga, hagati yabo harimo umukobwa wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura.

Umugore wambaye imyambaro y'ibitenge, uteruye umwana mutoya, imbere ye hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, hejuru hamanitse umunzani, ku ruhande hari abandi bantu bahicaye.

Abana benshi bambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri, bafite ibitabo mu ntoki babishyize hejuru, iruhande rwabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati iciyemo imirongo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amoko maremare y'ubururu, uri gukaraba ku mazi ari kuva mu kajekani kamanitse ku giti, inyuma yiwe hari inzu ndetse n'ururabo.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abambaye imipira y'umweru n'abambaye imipira y'ubururu, bambaye ingofero z'umweru mu mutwe, imbere yabo hari icyapa cyo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, cyanditsemo amagambo.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe ukenyeye n'igitenge, uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe ikoze mu kabito k'umweru, inyuma ye hari inzu ifite umuryango ufunguye.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi bazengurutse ameza ateretseho udukombe dutoya two mu ibara ry'umweru.

Abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze iruhande rw'ivomero rusange, hari n'injerekani yo mu ibara y'umuhondo n'amazi ari kumeneka, inyuma yabo hari igisambu.

Abantu batatu bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, bahagaze iruhande rw'iriba, ritonzeho amajerekani menshi, inyuma yabo hateye urutoki.

Imodoka yo mu ibara ry'umweru ifunguye umuryango, iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara, inyuma yayo hagaragara ikivunge cy'abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe ku murongo utambitse, hagati ya buri ntebe n'iyindi harimo akameza k'umweru gateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Umukobwa usutamye, wambaye umwambaro wo mu ibara ry'umukara hasi, n'umupira w'amaboko magufiya, afashe ku ijerekani y'umuhondo iri kujyamo amazi avuye muri kano, iteretse mu mabasi abiri agerekeranye, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda.

Abana bane bari guseka, bateze ibiganza, hejuru yabo hari umuntu ufite igikombe cyo mu ibara ry'ubururu, uri gusuka amazi ku biganza byabo, munsi yabo hari ibase.

Umuhanda uri kugendamo abantu benshi bambaye imyambaro itandukanye, higanjemo abana bambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano yo ku ishuri, munsi y'umuhanda hari iriba rusange.

Abantu benshi bahagaze hamwe higanjemo abambaye amataburiya yo mubara ry'ubururu, hagati yabo bahagaze umugabo muremure, wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru ndetse n'ikote, inyuma yabo hari ibiti.

Umugore wicaye ku buriri uteze igitambaro cy'icyatsi kibisi mu mutwe, yambaye n'umwambaro w'igitenge, iruhande rwiwe haryamye umwana ufashwe ukuboko n'abantu babiri bambaye imyambaro y'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho indabo ndetse n'amacupa, hari n'insakazamashusho iri inyuma yabo.

Abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bunamye, bagaragara nk'abari gukaraba intoki, ku mazi ari guturuka mu gitembo, munsi y'intoki zabo hari ibasi yo mu ibara ritukura.

Abantu benshi, harimo abahagaze, abandi bicaye imbere yabo, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, higanjemo abambaye amataburiya y'umweru, inyuma yabo hari icyapa.

Umwana wambaye umupira ucimo imirongo y'umukara ndetse n'ubururu, wunamye, uri guseka, yateze ikiganza ku mazi, asohoka muri kano.

Umugore ufite urupapuro mu ntoki, wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'ibitenge uteze n'ikindi mu mutwe, ateruye akana gatoya, inyuma ye hari abandi bantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abana bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufiya, yanditseho amagambo yo mu ibara y'umweru mu gatuza bafatanye ku rutugu, inyuma yabo hagaragara inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagaze hamwe, i ruhande rwabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru cyanditsemo amagambo kirimo n'ishusho y'umuntu, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Amazi menshi, agaragara nk'ikiyaga, arimo abana benshi, barimo baroga, bambaye ubusa, bagaragara igice cy'igihimba.

Umwana wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abanyeshuri iri mu ibara ritukura, iruhande rw'iwe hateretse ibasi yo mu ibara rijya gutukura, ari kugaragara nk'uri gukaraba intoki.

Umuntu uryamye ku gitanda, yambaye agapfukamunwa, yiyoroshe igitenge, iruhande rwe hari abantu babiri b'abagore bafite imisatsi iboshye ku mutwe.

Umugore wambaye imyambaro y'umweru, n'amaherena ku matwi, ufite imisatsi iboshye, afashe mu isura y'akana gatoya, gateruwe n'umugore wambaye imyambaro y'igitenge.

Umusore wambaye itaburiya y'umweru, igaragara nk'iy'abaganga, yambaye ga z'umweru mu ntoki, afashe ikiganza cy'umuntu, imbere ye hicaye umugore uteze igitambaro cy'ubururu mu mutwe.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo, ufite ikaye n'ikaramu mu ntoki na terefone ngendanwa, inyuma yiwe hari inzu yubakishije imbaho zo mu ibara ry'ubururu.

Abana bahagaze iruhande rw'iriba rusange, ririkumena amazi hasi, iruhande rw'injerekani yo mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari igisambu.

Igisambu cyicayemo abantu, hari n'abahagaze, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, haruguru yabo hagaragara ihema, inzu, ndetse n'imodoka.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye amajire y'icyatsi kibisi, hari n'abasutamye abandi bahagaze imbere y'inzu ifite ibikuta by'umweru.

Abana bambaye impuzangano zisa harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bahagaze iruhande rw'amariba ari kuvamo amazi ajya mu ndobo zifite ibara ry'umuhondo.

Umwana wambaye ikabutura ndetse n'ishati yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, yateze ibiganza ku mazi ari kuva muri kano, inyuma yiwe hateye ibiti.

Umugore ukenyeye igitenge kiri mu ibara ritukura, uteze n'igitambaro mu mutwe, ufite indobo, ari kudaha amazi mu ibasi nini, iruhande rwe hari abandi bagore babiri bakenyeye ibitenge, bafashe ku gitembo.

Akazu k'amazi gahagazeho abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yako hari injerikani nyinshi higanjemo izifite ibara ry'umuhondo, hakurya yako hari ibiti.

Abantu bicaye hamwe, bambaye imyambaro yiganjemo ibara ry'umweru, umwe yambaye ga z'umweru mu ntoki n'amadarubindi ku maso, imbere yabo bateretse ameza ariho ibikarito.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ateretseho amacupa.

Umukobwa usutamye wambaye umwambaro w'umukara hasi n'agapira k'amaboko magufi, afashe injerekani y'umuhondo iteretse mu mabasi abiri yagerekeranyije iri kujyamo amazi avuye kuri kano, inyuma y'iwe hari umugozi wanitseho imyenda.

Umusore wambaye imyambaro y'umweru, igaragara nk'impuzankano y'abaganga. Yambaye ga mu ntoki, iruhande rw'iwe hicaye abandi bantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye n'abandi bambaye ga mu ntoki imbere yabo hari ameza ateretseho udukarito.

Icyumba kigaragara nk'iy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na telefone ngendanwa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu gisambu. Harimo umwe muri bo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'imbangukira gutabara,, inyuma yabo hari inzu ifite ibikuta by'ubururu.

Umwana wambaye ipantaro yahiniye mu mavi, wambaye umupira w'amaboko magufiya, ahagaze iruhande rw'iriba rusenge, afashe ku njerekani y'umuhondo iri kujyamo amazi, yahindukiye ari guseka, iruhande rwe hari izindi jerekani.

Abantu benshi, bambaye udupfukamunwa mu isura, harimo n'abambaye amataburiya, bahagaze hamwe, basizemo umwanya hagati yabo, inyuma yabo hari ibyapa.

Umugore wicaye mu ntebe y'ubururu, akenyeye igitenge, ateruye umwana mutoya, wambaye umupira utukura, afite urupapuro mu ntoki, imbere ye hicaye umugabo wambaye bote z'umweru, iruhande rwiwe hari ibitabo.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, bakikije ameza ateretseho telefone ngendanwa ndetse n'amacupa.

Ikivunge cy'abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari abagabo babiri umwe afite indangururamajwi mu ntoki, hagati yabo hapfukamye umugore wambaye igitenge.

Abagore benshi bicaye hamwe, higanjemo abambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, hari n'abateze ibitambaro byabyo mu mutwe, bateruye abana batoya b'impinja.

Umugore wambaye ga z'ubururu, wambaye ikanzu y'igitenge n'agapfukamunwa mu isura ndetse n'amadarubindi, iruhande rw'iwe hahagaze abandi bantu babiri.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'icy'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ndetse n'ubururu, ateretseho amacupa.

Umwana mutoya w'umwirabura, wambaye ikanzu ikozwe mu mwenda w'igitenge, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, afite icupa ricuritse yashyize hejuru.

Umuntu wambaye imyambaro y'icyatsi kibisi, wicaye, imbere ye hari ameza ateretseho impapuro ndetse n'icupa, iruhande rwayo hari abantu benshi bayazengurutse, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye.

Abantu benshi, bambaye amataburi ya asa, bahagaze hamwe, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'umukara, afashe ku rutugu, babiri bamwegereye.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hariyo ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho mudasobwa, inyuma yabo ku gikuta handitse amagambo yo mu ibara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Abantu babiri harimo umugabo ndetse n'umugore uteze igitambaro mu mutwe, bafite injerekani ziri kujyamo amazi aturutse muri kano, hepfo yabo hari ishyamba.

Umugore w'umuzungu, wambaye umupira w'amaboko magufiya n'isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa.

Umwana uri guseka, wambaye ipantaro yahinnye kugeza mavi, uhagaze iruhande rw'iriba, hateretse n'injerekani, imwe iri kujyamo amazi.

Umwana wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri, uri gukaraba intoki mu mazi ari kuva muri kandagira ukarabe, iruhande rwiwe hari igiti gifite amashami manini.

Umwana wambaye umwambaro wo mu ibara ritukura, uri guseka ugaragara nk'ukaraba intoki, ku mazi ari guturuka muri kano, yometseho icyapa cy'umweru.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba, wambaye umupira w'amaboko magufi, urimo amabara menshi, yikoreye injerekani yo mu ibara ry'umuhondo, ipfundikishije umufuniko w'umutuku.

Umwana wicaye mu ibasi irimo amazi, iruhande rwe hari umugore usutamye ugaragara nk'urimo aramuhoza. Iruhande rwabo hari abandi bana n'undi mugore.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagaze ku murongo, bamwe imbere abandi inyuma, ku ruhande hari amabendera abiri, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abagore babiri bambaye udupfukamunwa mu isura, bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, imbere yabo hahagaze umugore wambaye ikanzu y'igitenge n'agapfukamunwa mu isura, ku ruhande hicaye abandi bantu.

Abana bambaye impuzangano zisa zigaragara nk'iz'abanyeshuri, imbere yabo hahagaze abandi bantu bakuru, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro n'ishati y'umweru mo imbere, ahagararanye n'umukobwa w'umuzungukazi wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, bafashe ku gakapu kanditseho amagambo y'umweru.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, yambaye amadarubindi ku maso, iruhande rw'iwe hari intebe zitetse, inyuma ye hari icyapa cy'amabara ry'ubururu cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Umwana mutoya wambaye imyambaro y'ubururu, wazamuye ukuboko kw'ishati yiwe, hari umugabo wambaye ga z'umweru mu ntoki, uri kumutera urushinge rwo kwa muganga.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, iruhande rwabo hari icyapa cyo mu ibara ry'ubururu, kiriho ishusho y'umuntu cyanditseho n'amagambo, inyuma yabo hari inyubako.

Umugore wambaye umupira w'umweru wicaye hasi ateruye umwana mutoya, iruhande rwabo hapfukamye umugabo wambaye amadarubindi ku maso afite isahani mu ntoki.

Umwana mutoya wambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu, uciyemo uturongo tw'umukara, afite isabune mu ntoki, agaragara nk'uri gukaraba, hari ukundi kuboko gufashe igikombe cy'icyatsi kibisi, kuri ku musukira amazi ku biganza.

Abantu bambaye imipira isa y'amaboko magufiya, bagaragara nk'abari kubaka akarima k'igikoni, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umugore wambaye imyambaro y'ibitenge irimo amabara menshi, wambaye amadarubindi ku maso, inyuma ye hari abana bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abana bahagaze iruhande rw'ivomero rusange, imbere yabo hari injerekani zifite amabara atandukanye, harimo iz'umweru, umukara ndetse n'ubururu.

umugabo wambaye ikote ry'umukara n'amadarubindi ku maso, imbere yiwe hari indangururamajwi, iruhande rwiwe hari intebe z'umweru n'utumeza duto, duteretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze ahantu hagaragara nk'ivomero rusange, hateretse amajerekani yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari amazu ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bambaye impuzangano zisa harimo umugabo uri guseka wambaye ikote ndetse n'ipantaro by'umukara, yambaye amadarubindi ku maso, afashe ku rutugu abantu babiri bamwegereye.

Umugabo usutamye, wambaye amadarubindi ku maso, afashe akana, bambaye imipira isa, iruhande rwiwe hari terefone ngendanwa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, imbere yabo hicaye umugabo wambaye imyambaro iri mu ibara ritukura, bafite igitabo mu ntoki.

Umusore wambaye ishati y'amaboko magufiya uhetse igikapu mu mugongo, imbere ye hari undi musore wambaye umupira w'ubururu w'amaboko magufiya bagaragara igice cy'igihimba.

Umugore usutamye ,wambaye itaburiya y'umweru, afite urushinge rwo kwa muganga, ari gutera umwana ku kuboko, uteruwe n'umugore uteze igitenge mu mutwe.

Abagore babiri bicaye hamwe, umwe yambaye igitambaro mu mutwe undi yambaye ikote ririmo amabara y'umukara ndetse n'umweru, imbere yabo hari ameza barambuyeho ibiganza.

Abana babiri, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bapfukamye iruhande rw'ikidendezi cy'amazi, barambitsemo injerekani, inini ndetse n'intoya, inyuma yabo hari igisambu.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'amaherena ku gutwi wambaye umupira urimo amabara atandukanye harimo umuhondo, umukara ndetse n'umweru, afite imisatsi ifungiye inyuma, ateruye umwana, yambaye impeta ku rutoki n'isaha ku kuboko, inyuma ye hari undi uteruye umwana.

Umugore ndetse n'abana babiri bahagaze iruhande rw'ivomero rusange, umugore afashe injerekani iri mu ibara ry'umuhondo iri kujyamo amazi.

Umuntu wambaye umupira utukura, wambaye agapfukamunwa mu isura, wambaye n'ingofero y'umweru mu mutwe, ari gushyira akantu mu kanwa k'umwana wicaye, iruhande rwabo hari abandi bantu.

Umugore ufite imisatsi iboshye, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'agatabo, imbere ye hicaye abandi bantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama bicaye ku ntebe z'umutuku, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye bazengurutse ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze iruhande rw'iriba rusange, hateretse n'injerekani ziri mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari urutoki.

Umusore upfukamye, wambaye amadarubindi ku maso, ufite inkongoro mu ntoki, ari kunywesha akana gatoya, gateruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru.

Umugore wambaye umupira w'amaboko magufiya uciyemo imirongo, yambaye n'ingofero mu mutwe ahagaze iruhande rw'iriba rusange, hateretse injerikani ebyiri.

Umwana mutoya wambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu uciyemo imirongo y'umukara, afite isabune mu ntoki, hari n'ikiganza gifite igikombe kinini kiri kumusukiraho amazi ku ntoki.

Abana batoya bafatanye ku rutugu, bambaye imipira y'amaboko magufiya, iri mu ibara ry'ubururu, yanditseho amagambo y'umweru ndetse n'umukara mu gatuza, inyuma yabo hari igikuta, cyubakishije amatafari ahiye.

Abantu babiri bari kuvoma ku iriba rusange, bafite ijerekani ziri mu ibara ry'umuhondo, hejuru ku iriba hunamye undi mugore wambaye ipantaro y'umukara, inyuma yiwe hari umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abagabo babiri barigusuhuzanya bambaye amakote ndetse n'amapantaro. Iruhande rwabo hahagaze abandi bantu, harimo umuzungu umwe. Inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo ndetse n'imibare.

Umuntu wambaye ingofero mu mutwe n'amadarubindi ku maso, usutamye afite inkongoro, ari kunywesha umwana uri imbere y'iwe, wicaranye na bagenzi be bambaye imipira isa, inyuma yabo hahagaze abandi bantu.

Umugabo wambaye imyenda y'umweru na ga z'umweru mu ntoki, wipfutse mu isura, wunamye afashe ku rutugu umugabo wambaye ingofero mu mutwe, inyuma yabo hahagaze umwana.

Abana babiri, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bateruranye indobo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, iruhande rw'iriba hakurya yabo hagaragara ibiti ndetse n'inzu yo mu bwoko bwa nyakatsi iri haruguru yabo.

Abagore babiri, umwe yambaye ingofero mu mutwe undi yateza igitambaro, batwaranye umufuka munini w'umweru, imbere yabo hari abandi bantu, harunze n'indi mifuka myinshi.

Umwana wambaye imyambaro y'igitenge, irimo ibara ritukura, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, arunamye ari gukaraba intoki, mu mazi ari kuva mu gitembo, munsi ye hari ibasi.

Abana bicaye hasi, bambaye imyambaro yiganjemo iy'ubururu, yanditsemo amagambo y'umweru mu mugongo, hicayemo n'abantu bakuru, abirabura ndetse n'abazungu.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye imyambaro yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru mu mugongo, imbere yiwe hari ameza ateretseho ibikarito, hari n'umugore wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'isaha ku kuboko.

Abana batatu bagaragara nk'abari gukaraba intoki, ku mazi ari guturuka mu gitembo, babiri muri bo bafite imisatsi iboshye ku mutwe, inyuma yabo hagaragara igiti.

Abana bicaye hasi bambaye imipira isa, bafite inkongoro z'amata mu ntoki, iruhande rwabo hasutamye abandi bantu bari kubanywesha inyuma yabo hahagaze abandi.

Umugore wambaye umupira utukura ukenyeye n'igitenge, uri iruhande rw'iriba rusange, hari n'abana batoya bafite utujerekani, hakurya hagaragara igisambu kirimo ibiti.

icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo abambaye imipira y'umweruyemo ku magufi n'abambaye imipira y'icyatsi kibisi n'amaboko magufi bambaye udupfukamunwa mu isura bicaye bakikije ameza mu ibara ry'umweru wateretse amacupa..

Umwana wunamye, wambaye umupira wo mu ibara ritukura n'ikabutura, afashe ku njerekani iri kujyamo amazi avuye muri kano.

Umwana uri guseka, wambaye agapira k'amaboko magufi ko mu ibara ritukura, ufite igikombe mu ntoki, yateze kuri kano iri kuvamo amazi.

Abana bambaye imyambaro y'amabara atandukanye igaragara nki imppuzangano y'abanyeshuri bafite ibikombe mu ntoki biri mu mabara atandukanye inyuma yabo hari ibigegabi bika amazi by'amabara y'umukara.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe inyuma yabo hari abandi bahagaze, inyuma yabo hagaragara icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, n'umupira w'ubururu w'amaboko magufi n'ingofero y'ubururu n'agapfukamunwa mu isura, afashe ku kajerekani kikorewe n'umwana muto, gapfundikijwe umukanana, imbere yabo hari umuzungukazi, ufite terefone mu ntoki.

Umwana wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, arunamye ari gukaraba intoki mu mazi ari kuva mu gitembo, munsi ye hari ibasi y' umukara.

Umugore ufashe umwana ukuboko, iruhande rwiwe hari abandi bana, imbere yabo hari iriba rusange, rikikijwe n'indobo ndetse n'injerekani.

Abagabo babiri bahagararanye, bambaye amakoti n'amapantaro yo mu ibara ry'umukara, basuhuzanyije mu biganza, inyuma yabo hari igikuta kiri mu ibara ry'ubururu, cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, uhagararanye n'umugore wambaye ikanzu y'umweru ishushanyijemo indabo zitukura, iruhande rwabo hari icyapa kiriho amashusho y'abana n'ikindi kiriho umugore uteruye umwana.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bagaragara nk'abari mu cyumba k'inama, imbere yabo hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yiwe hari icyapa gishushanyijeho, umuntu uteze igitambaro mu mutwe.

Abagore batatu, babiri bahagaze bafashe ku gitembo, undi umwe wunamye iruhande rw'ibase nini irimo amazi ari guturuka mu iriba rusange.

Abagore batatu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, umwe muri bo ateze igitambaro cy'umweru mu mutwe, imbere yabo hari ameza ateretseho ibitabo bafite amakaramu mu ntoki.

Abana bambaye impuzangano zisa, ziri mu ibara rya kaki, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bahagaze iruhande rwa kano, munsi yabo hari indobo zo mu ibara ry'umuhondo ziri kujyamo amazi.

Umugore wambaye umupira w'umukara, n'agapfukamunwa mu isura ndetse n'ingofero uhumirije, iruhande rw'iwe hari undi mugore wambaye agapfukamunwa umufashe ku kuboko, ari kumutera urushinge rwo kwa muganga.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi n'agapfukamunwa, wazamuye ukuboko kumwe gufashweho n'umuntu wambaye ga z'umweru mu ntoki, uri ku mujomba urushinge rwo kwa muganga, yambaye n'umupira w'umweru ndetse n'abapfukamunwa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, kicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Umusore upfukamye ufite inkongoro urikunywesha akana gato gateruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru. Iruhande rwabo hicaye abandi bantu benshi.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye bakikije umwana mutoya wambaye ingofero mu mutwe, umwe muri bo ari kumukora ku itama afite ikaramu mu ntoki, iruhande rwe hicaye umugore wambaye ishapule mu gatuza.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze imbere y'inzu ifite ibikuta byo mu ibara ry'ubururu, hejuru ifite icyapa cyo mu ibara ry'umukara, cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abagabo bambaye amapantaro ndetse n'amakoti, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu.

Umugore ufite urupapuro mu ntoki, wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, yateze n'ikindi mu mutwe uteruye umwana mutoya, inyuma ye hari abandi bantu.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bicaye bazengurutse ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu ifite ibikuta biri mu mabara atandukanye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hagati yabo harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru igaragara nk'impuzangano y'abaganga.

Icyumba kirimo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bagaragara nk'abari kubyina imbyino gakondo, inyuma yabo hari intebe z'umweru ndetse n'iyindi y'umukara.

Umwana usutamye, ugaragara nk'uri kugerageza guterura indobo y'umuhondo, iruhande rw'iriba rusange, ku ruhande hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru, afite umusatsi urimo uruhara, iruhande rwiwe handitse amagambo yo mu ibara ry'umukara.

Abantu bambaye imipira isa yo mu ibara ry'ubururu y'amaboko magufiya, yanditseho amagambo y'umweru imbere mu gatuza, bambaye n'ingofero zo mu ibara ry'umweru.

Umugore uri kugenda, wambaye umwambaro w'igitenge hasi, hejuru yambaye ishati irimo amabara menshi, ateze igitambaro mu mutwe yikoreye indobo y'umutuku atwaye iyindi y'umuhondo mu ntoki.

Umugabo uri guseka wambaye ipantaro y'umukara n'ishati iciyemo imirongo, afashe ku njerekani yo mu ibara ry'umuhondo, iruhande rw'iriba rusage, inyuma yiwe hari ibyatsi.

Umwana wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'icyatsi kibisi, wunamye ari gukaraba intoki ku mazi ari kuva muri kano, inyuma yiwe hateretse indobo yo mu ibara ry'ubururu, hakurya hateye ibiti.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'amaboko maremare, ufite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'abantu bicaye mu ihema, bambaye imyenda yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hicaye akana gato.

Abantu batatu bateruranye umufuka, harimo abagore babiri, umwe yambaye ibitenge byo mu ibara ry'icyatsi kibisi, ateze igitambaro mu mutwe, n'undi yateze igitambaro mu mutwe, umugabo yambaye ishati ndetse n'ipantaro, ahagaze hejuru y'indi mifuka myinshi.

Abagore babiri bakinyeye ibitenge bateruye abana n'undi mugore umwe ufite imisatsi miremire wambaye ipantaro y'umukara, bicaye bazengurutse ameza y'uruziga ateretseho terefone ngendanwa.

Icyumba kimanitsemo icyapa cyo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, kiriho amabendera y'ibihugu bibiri harimo u Burundi ndetse n'Amerika, cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe.

Umugore usa nk'ukuze ugaragara igice cy'igihimba uri guseka wambaye umwambaro wo mu bwoko bwiigitenge, atezeye n'ikindi gitambaro cy'igitenge mu mutwe.

Umuntu wicaye ku musambi uzinze, wambaye umupira w'amaboko magufiya, yambaye kamambiri mu birenge, afite umunyururu umuziritse ku kuguru, ufashe ku giti kimuri imbere.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu, iruhande rwe no hepfo ye handitse amagambo.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, yambaye umupira uri mu ibara ry'umuhondo, arimo araseka, afite ubwanwa bukeya n'umusatsi muke ku mutwe.

Umugore wambaye umwambaro ugaragara mu ibara ry'icyatsi kibisi wambaye amaherena ku gutwi n'amadarubindi ku maso imbere ye hateretse indangururamajwi ebyiri.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hari n'igikuta cyo mu ibara ry'umweru kimanitseho insakazamashusho.

Umukobwa wambaye ikanzu yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru wicaye imbere ye hicaye undi mukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi wo mu ibara ry'umukara.

Abana benshi, bagaragara nk'abababaye, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, idasa neza, bahagaze hamwe, harimo n'abari kurira muri bo.

Umugore wicaye mu cyumba gifite idirishya rifunguye, wambaye umwambaro wo mu bwoko bw'igitenge, wicaye ku ntebe y'urubaho, imbere yiwe harambuye umusambi.

Abantu benshi bicaye ku murongo utambitse, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye n'abandi babahagaze inyuma, inyuma yabo hagaragara icyapa, kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Umugore wicaye wambaye ijipo irimo amabara menshi wateze igitambaro mu mutwe, inyuma yiwe hari igikuta gishushanyijeho ururabo.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho amagambo ndetse n'amashusho.

Umugore ugaragara igice cy'igihimba, wambaye imyambaro irimo amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, yambaye amadarubindi ku maso, ari kwerekana agapapuro gatoya mu ntoki.

Abagore batatu bicaye bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa mu isura, inyuma yabo hagaragara inzu zo mu bwoko bwa nyakatsi.

Umugabo wambaye imyenda yacikaguritse, ufite isura iri gusa umukara, afite ibintu mu ntoki n'ibindi ku rutugu, inyuma yiwe hari imodoka y'ubwikorezi yo mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara.

Abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bahagaze ku murongo, abenshi muri bo bafite utwapa dutoya mu ntoki, inyuma yabo hari ikindi cyapa kinini, ibiti by'imikindo ndetse n'inyubako.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye agapfukamunwa, ku gikuta hari icyapa cyo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kiriho amabendera abiri, iry'Uburundi ndetse n'Amerika.

Imbuga isashemo amabuye, yicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umutuku, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hahagaze abandi.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, hari umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, inyuma yiwe hari ibyapa.

Abantu bicaye mu cyumba kigaragara nk'ik'inama, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro kirimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ateretseho amacupa.

Abantu babiri bicaye, umwe yambaye imyambaro iri mu ibara ritukura, yifashe ku itama, yambaye n'ingofero mu mutwe, imbere y'iwe hicaye undi wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umukara, wambaye amadarubindi ku maso.

Abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye higanjemo abambaye iy'umukara, bafashe ku gapapuro kamwe inyuma yabo hari imodoka.

Umwana mutoya uri kurira wikoreye amaboko, inyuma y'iwe hagaragara abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, hejuru hariho ikirere cyo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma yabo ku ruhande hari icyapa kiriho amashusho kinanditseho amagambo.

Umugore wasize iminwa ye ibara ritukura, wazamuye urutoki, afite agapfukamunwa ku kuboko, iruhande rw'iwe n'inyuma ye, hicaye abandi bantu.

Abana benshi bari guseka, higanjemo abambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ubururu, nta misatsi bafite ku mutwe bagaragara igice cy'igihimba.

Intebe ziteye mu buryo bw'uruziga, zicayeho abantu bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, hari n'abandi bari hagati n'abandi bahagaze, icyumba gifite ibikuta byo mu ibara ry'umweru n'ibikuta ku ruhande.

Abantu bicaye, harimo umugabo umwe, wambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo, hagaragara urutoki ndetse n'ibiti.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo, yambaye ingofero mu mutwe, ari guseka, afite ibihanga mu menyo, afite n'icumu.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe wicaye hasi yarambije ateruye umwana, iruhande rw'iwe hari undi mwana mutoya uhicaye, imbere yabo hari inkoko iriho imbuto.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, higanjemo abambaye imyambaro iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, hari abafite icyapa kiriho amagambo yo mu ibara ry'umukara n'undi ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye imipira y'ubururu, y'amaboko magufiya, hagati y'abo hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara, n'ishati y'umweru, bafashe ku rutugu babiri muri bo, iruhande rwabo hari inyubako.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye impuzankano z'abapolisi.

Imbuga yicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abandi bahagaze, abenshi muri bo bambaye udupfukamunwa mu isura, hari n'intebe zo mu ibara ritukura, zigerekeranyije.

Umugore uteze igitambaro cy'ubururu mu mutwe, yambaye amaherena ku matwi, ateruye akana gafite amaherena ku matwi, iruhande rwe hari undi muntu wambaye umupira w'amaboko magufiya, ufite telefone mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugore wambaye imyambaro y'umweru, yambaye isaha ku kuboko, n'amadarubindi ku maso, imbere ye hari ameza atetseho mudasobwa, ndetse n'amacupa.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bafashe ku cyapa cyanditseho amagambo y'umweru, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Umugore ugaragara nk'ukuze, uteze igitambaro mu mutwe, yicaye hasi ku musambi, akikijwe n'abana benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugore uri guseka, afite agapfukamunwa mu isura, ahetse umwana mutoya, akenyeye igitenge, iruhande rwiwe hahagaze akana gatoya, imbere ye hari isafuriya.

Umukobwa uri guseka ugaragara igice cy'igihimba, yambaye umupira wo mu ibara ritukura n'undi ufite ibara ry'ubururu bwijimye mu imbere, afite umusatsi mukeya ku mutwe.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano ya gipolisi, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara.

Umugore wambaye imyambaro irimo amabara menshi, ufite indangururamajwi mu ntoki, yicaye ku ntebe y'umutuku, iruhande rwiwe hari umugabo wambaye umupira w'umukara, imbere yabo hari ameza.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo abagabo n'abagore ndetse n'umwana, bicaye mu mbuga imbere y'inzu ikinguye urugi, iruhande rw'inzu hari ibiti.

Umugabo ugaragara igice cyigihimba wambaye ishati iri mu ibara rijya gusa nk'icyatsi, urimo uramwenyura, inyuma y'iwe hari abandi bantu bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye.

Umwana mutoya, uhagaze mu bantu bakuru, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bafite amabendera mu ntoki yo mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'amaboko magufiya mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hagaragara ibiti ndetse n'inzu.

Ahantu hicaye abana benshi, higanjemo abambaye imipira y'amabara y'umuhondo, y'amaboko magufi, bishimye bari guseka, hari n'abambaye udupapuro mu mutwe, abandi badufite mu ntoki.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze hamwe, mu cyumba gifite ibikuta by'umweru, imbere yabo hari ameza, ateretseho amakayi.

Abantu bicaye mu cyumba ari benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zitukura, umwe muri bo afite indangururamajwi mu ntoki, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba kirimo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abirabura ndetse n'abazungu, bagaragara nk'abari gukoma amashyi, inyuma yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Igisambu cyicayemo abantu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, iruhande rwabo hari imodoka nini yo mu ibara ry'umweru.

Umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro n'ishati icayemo imirongo n'isaha ku kuboko, ahagaze iruhande rw'igikuta kiriho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo.

Umwana mutoya ugaragara igice gitoya cyo hejuru yambaye ishati y'amaboko maremare, afite uburoso bw'amenyo mu ntoki buri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, arimo guseka.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye umupira w'ubururu bwijimye, afite ubwanwa butari bwinshi, arasamye afite amenyo y'umweru, afite umusatsi mukeya ku mutwe.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, wambaye ikote ry'ikoboyi n'umupira mu imbere, ari guseka afite ubwanwa butari bwinshi n'umusatsi mukeya ku mutwe.

Umusore w'imibiri yombi ugaragara igice k'igihimba ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya ku mutwe wasamye, afite amenyo y'umweru cyane.

Abantu benshi bagaragara nk'abishimye harimo abicaye hasi bazamuye intoki zabo ebyiri, abandi bahagaze inyuma, harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abantu babiri umukobwa ndetse n'umuhungu, bambaye impuzankano zigaragara nk'iz'abaganga, n'udupfukamunwa mu isura. Imbere yabo hicaye umwana wasamye bari kumukora mu kanwa, iruhande rwabo hari ameza n'ikaramu n'urupapuro.

Umugabo wicaye ari guseka, agaragara igice cy'igihimba, yambaye umupira, afite agatambaro ko mu ibara ry'umweru kamurambitse mu gituza.

Umugore wambaye imyambaro y'umweru, afite imisatsi iboshyeye ifungiye inyuma, yambaye n'agapfukamunwa na ga z'umweru mu ntoki, yicaye ku ntebe y'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho impapuro, telefone ngendanwa ndetse n'ikaramu, imbere ye hari undi muntu wasamye, bari gukoza akantu k'umweru mu kanwa.

Abana babiri, bagaragara igice cy'igihimba, bambaye impuzangano zisa, bafite uburoso bw'amenyo, umwe abufite mu kanwa, undi abufite mu ntoki.

Umugabo wambaye umwambaro ugaragara nk'impuzankano y'abaganga, ufitemo ikaramu mu mufuka, wambaye isaha ku kuboko, yicaye ku ntebe y'icyatsi kibisi, inyuma ye hari igitanda kigaragara nk'icy'abarwayi.

Ibiganza byambaye ga ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi, bifite akantu mu ntoki, kari gukora mu kanwa k'umwana uryamye agaramye, yasamye.

Umugore uri guseka ndetse n'akana gatoya, bambaye amasengeri yo mu ibara ry'umweru, bagaragara igice cy'igihimba, bafite uburoso bwoza amenyo mu ntoki.

Umwana ufite imisatsi myinshi w'inzobe uri guseka, ufite inyinya mu menyo, yambaye amaherena ku gutwi, hari n'ikiganza cyambaye ga z'umweru cyamushyize agakoresho kameze nk'akayiko gato mu kanwa.

Ibiganza byambaye ga zijya kugaragara mu ibara ry'ubururu byafashe umwana mu kanwa ukiri mutoya, umwana w'inzobe wicaye mu ntebe y'umutuku yambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi kibisi yanditseho amagambo yo mu ibara y'umuhondo mu gatuza, bicaye bakikije ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ariho udukarito.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, ufite umusatsi mwinshi k'umutwe, uri guseka, iruhande rw'iwe hahagaze umusore wambaye umupira w'umweru, ufite igitambaro cy'umweru ku rutugu bari kwireba mu kirori.

Umukobwa wicaye ufite imisatsi iboshye ifungiye inyuma, wifashe ku kananwa ari guseka, ari kwireba mu kirori.

Umuntu wambaye amadarubindi ku maso n'agapfukamunwa mu isura, wambaye ga z'umweru mu ntoki, ari kumurika agatara mu kanwa undi muntu uryamye iruhande rw'iwe.

Inzu y'igorofa, ifite ibara ry'icyatsi kibisi hejuru, yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hari umuhanda usashemo amabuye.

Abana bambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'ishuri, bafite uburoso bwoza amenyo mu kanwa, bafite udukombe tugiye turi mu mabara atandukanye, imyambaro yabo irimo ibara ry'icyatsi cyibisi.

Abantu bicaye bambaye imipira yo mu ibara ry'icyatsi kibisi y'amoboko magufi, imbere yabo hari ameza ateretseho udukarito, hari n'umugabo uri kureba mu kanwa umugore umwe wicaye.

Abagore babiri umwe ari guseka undi afite urupapuro mu ntoki ari kwandika, yambaye ikote ry'umutuku undi yambaye iry'ubururu, afite imisatsi iboshye ku mutwe n'urupapuro mu ntoki.

Umwana wambaye ikanzu irimo utudomo tw'umweru, wasamye afite uburoso bw'amenyo mu kanwa, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu.

Abana benshi, bahagaze hamwe, bambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abanyeshuri, bafite udukombe twamabara atandukanye mu ntoki, n'uburoso bwoza amenyo mu kanwa.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufiya, ugaragara nk'ukuze, wambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi urimo imvi, imbere yiwe hari ikirori.

Umugore ugaragara nk'ukuze wambaye agapira k'amaboko magufiya, afite umusatsi urimo imvi yifashiwe ku mazuru, yambaye impeta ku rutoki n'amadarubindi ku maso, afashe igikombe mu ntoki.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara, ufite ubwanwa burimo imvi, afashe umugozi wo mu ibara ry'umuhondo, imbere yiwe hari undi mugabo ufashe kuri uwo mugozi.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi n'ikote, ahetse igikapu mu mugongo, afite n'ikindi mu ntoki, afashe ku rutugu umugabo wambaye ikote ry'umukara, hakurya yabo hari ibiti n'ibyatsi.

Umugore ufite imisatsi igaragara nk'irimo imvi, wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'amadarubindi ku maso, ahagaze uruhande rw'umugabo wicaye, ufite imvi mu bwanwa n'igikombe ari kunywa.

Umugabo w'umwirabura wicaye ku gitanda gishashe amashuka y'umweru, yambaye amadarubindi ku maso, iruhande rwiwe hari umugore umufashe mu mugongo no mu kiganza asa nk'umuhagurutsa.

Umugore uri guseka ufite amaherena ku gutwi ufite agasatsi gakeya ko mw’ibara ry'umweru yarambuye amaboko imbere ye hari umugore ufite imisatsi miremire w’umuzungukazi umufashe ku kuboko.

Umugabo wambaye amadarubindi ku maso, wambaye umupira w'amaboko magufiya, iruhande rwe hicaye umugore ufite imisatsi y'umukara ifungiye inyuma, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu bicaye mu ntebe z'umweru.

Umugore ugaragara igice cy'igihimba, uri guseka, ufite umusatsi mukeya ku mutwe, inyuma ye hari abandi bantu b'abazungu, batagaragara neza, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abagore bagaragara nk'abari kubyina, bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru y'amaboko magufiya, hari n'abandi bambaye imyambaro itandukanye n'iyabo.

Umugabo wambaye ishati n'amadarubindi ku maso, uri guseka wafashwe ukuboko n'umugore w'umuzungu ufite imisatsi miremire.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo abagabo babiri, umwe yambaye ishati undi yambaye umupira, iruhande rwabo hateye ibiti.

Umugabo wambaye ishati y'ikinombe n'umupira w'icyatsi kibisi, mu imbere afashe ku rutugu umukobwa uri guseka, wambaye amadarubindi ku maso ndetse n'ikote y'ikoboyi.

Umusaza wicaye imbere ye hari ameza, afite telefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwiwe hicaye umugore uri kureba muri iyo telefone ngendanwa.

Abantu benshi bicaye hamwe, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, hejuru yabo hari itara ricanye.

Abantu benshi bicaye, harimo abana ndetse n'abantu bakuru, inyuma yabo hari abandi bahagaze, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Umugore ugaragara nk'ukuze wambaye amadarubindi ku maso, ufite imisatsi irimo imvi, iruhande rwiwe hahagaze umuhungu, ku rundi ruhande hahagaze umukobwa ufite akamamiyo mu ntoki, umuhungu afite isahani.

Abagore batatu bari guseka bahagaze bafite imisatsi irimo imvi, uwo hagati yambaye umupira wo mu ibara ry'umuhondo, afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Umugore wicaye mu byatsi, wambaye umupira w'amaboko maremare, arunamye yifashe ku birenge, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bagaragara nk'abari gukoma amashyi, harimo abagabo babiri bari gusuhuzanya mu biganza, umwe yambaye amadarubindi ku maso, inyuma yabo hari igiti.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye ku mutwe, uri guseka, ufite agacupa mu ntoki ari kugashyira mu kiganza cy'umugabo ufite ubwanwa burimo imvi, afite n'igikombe mu ntoki.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, ufite imisatsi irimo imvi, wicaye ku ntebe, iruhande rwiwe hasutamye umukobwa amufashe mu kiganza, ufite imisatsi iboshye ifungiye inyuma.

Abagabo bicaye mu buryo bw'uruziga, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abenshi muri bo bambaye ingofero mu mutwe.

Abantu bicaye mu gisambu hari abicaye ku ntebe n'abicaye hasi, harimo umuntu w'umuzungu uteruye umwana n'undi mugore uteze igitambaro mu mutwe ari kuboha.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bahagaze mu murima uteyemo ibigori, bamwe muri bo bazamuye ibiganza hejuru, hari n'uwazamuye agasuka gatoya hejuru.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, ufite imvi mu bwanwa, iruhande rwiwe hari umugore wambaye imyambaro y'umweru, igaragara nk'impuzangano y'abaganga, bamufashe ku kuboko.

Abagore babiri bari guseka, umwe yambaye impeta ku rutoki undi yambaye amadarubindi ku maso afite n'ikirahuri kirimo icyo kunywa, imbere yabo hari imboga zirimo inyanya.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye ishati y'amaboko maremare, ufite umusatsi n'ubwanwa birimo imvi, iruhande rwiwe hicaye undi mugabo wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, ufite umusatsi n'ubwanwa bi mo imvi afite ifurusheti mu ntoki. Imbere yiwe hari ameza ateretseho ibyo kurya, iruhande rw'iwe hari umugore ufite icupa ndetse n'kirahure.

Abagore babiri bagaragara nk'abakuze, bambaye imipira yo mu ibara ritukura ndetse n'imikenyero, bafite inkoni mu ntoki umwe muri bo afite imisatsi irimo imvi, inyuma yabo hari abandi bantu, ku mpande hateye urutoki.

Umugabo w'umwirabura wicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ariho isahani, iruhande rwe hicaye undi muntu w'umuzungu, inyuma y'iwe hari umugabo wunamye, wambaye amadarubindi ku maso.

Umugabo ugaragara nkukuze wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi afite umusatsi ndetse n'ubwanwa birimo imvi yambaye isaha ku kuboko iruhande rwiwe hahagaze umugore w'umuzungukazi umufashe ku rutugu yambaye isaha y'umukara ku kuboko.

Umugabo ufite imisatsi irimo imvi, wambaye amadarubindi mu isura n'ishati yo mu ibara ry'icyatsi kibisi ufite ikaramu mu ntoki ari kwandika mu ikayi.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, afashe ku kuboko k'umusaza, ufite imisatsi y'imvi, wambaye amadarubindi mu isura.

Abagabo babiri bari guseka bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru bagaragara nk'abari kwiruka, bafite amacupa mu ntoki, iruhande rwabo hari ibiti.

Umugabo ufite ubwanwa burimo imvi, ufite telefone ngendanwa mu ntoki, yicaranye n'umugore wambaye urunigi mu ijosi, imbere yabo hariyo ameza ateretseho ikirahuri cy'amazi.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, imbere yabo hari ameza ateretseho agacupa, igikombe ndetse n'amadarubindi, umugore yambaye isaha ku kuboko n'impeta ku rutoki.

Abantu bahagaze bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abana, abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hagaragara imodoka.

Umugabo wicaye wambaye ishati iciyemo imirongo wambaye impeta ku rutoki ufite icupa mu ntoki, iruhande rwe hicaye umugore wambaye amadarubindi ku maso imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'impapuro.

Abagore batatu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bagaragara igice cy'igihimba, babiri bo ku ruhande bambaye ingofero mu mutwe, uwo hagati yambaye amadarubindi ku maso afite terefone ngendanwa mu ntoki.

Abagore babiri ndetse n'umwana bari guseka, umugore umwe afite imisatsi iboshye, yambaye amadarubindi ku maso, undi afite imisatsi irimo imvi.

Uwo mukobwa wambaye ipantaro y'ubururu bwijimye n'shati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko, akaba ari umuzungukazi. Afashe mu mugongo umugabo wunamye.

Abantu bagaragara nkabishimye bari guseka, harimo abagore ndetse n'abagabo utibagiwe n'abana hari umugabo uhetse umwana w'umukobwa n'umugore ahetse umwana w'umuhungu.

Abagabo babiri, bambaye amashati, ndetse n'imyambaro y'imikenyero, bambaye ingofero z'urugara mu mutwe, umwe yambaye amadarubindi ku maso.

Umugabo ugaragara nk'ukuze, wambaye umupira w'amaboko maremare, wicaye ari kureba umugore umufashe ku rutugu, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu, bari guseka.

Umugabo wambaye ishati n'amadarubindi, ufite imvi nkeya mu musatsi, ari guseka, iruhande rwe hicaye umukobwa, ufite imisatsi miremire y'umukara, umufashe ku rutugu.

Umugabo wicaye ufite ubwanwa burimo imvi, afite n'inkoni mu ntoki, iruhande rwe hunamye umugore umufashe ku rutugu arimo araseka.

Abagore babiri bicaye bari guseka, umwe yambaye amadarubindi ku maso, afite icyuma ari gukata imboga, undi yambaye amaherena ku gutwi, yifashe ku itama.

Umugore wicaye mu ntebe ari guseka, inyuma yiwe hari umukobwa wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye isaha ku kuboko, arunamye amufashe mu gatuza.

Umugabo ufite umusatsi urimo imvi, wambaye amadarubindi ku maso, wicaye, imbere ye hari ameza ariho ikirahuri cyo kunyweramo ndetse n'impapuro hari n'umugore wicaye iruhande rw'ameza.

Umugore ufite imisatsi irimo imvi, arimo araseka, yarambuye amaboko, agaragara igice cy'igihimba agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wicaye ufite ubwanwa bwinshi burimo imvi, imbere yiwe hari ameza ateretseho mudasobwa, iruhande rwe hari umugore umufashe ku rutugu.

Umukecuru ndetse n'umusaza bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, ateretseho agacupa gatoya, bambaye impeta, umukecuru afite urupapuro mu ntoki ari guseka.

Umugabo ufite imisatsi ndetse n'ubwanwa burimo imvi, wambaye amadarubindi ku maso, ufite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwiwe hicaye umugore, imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro.

Umusaza ugaragara nk'ukuze, uri guseka ufite umusatsi n'ubwanwa burimo imvi, iruhande rwe hicaye umusore wambaye ishati iciyemo umurongo y'umweru ndetse n'umukara bari kureba mu gitabo, imbere ya bo hari ameza ateretseho ibikombe bibiri.

Umugore ugaragara nk'ukuze, uri guseka, ufite umusatsi urimo imvi, inyuma yiwe hari umukobwa ufite umusatsi w'umukara ufungiye inyuma, na we ari guseka yambaye umwambaro wo mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umugore wambaye imyambaro y'umweru, ufite imisatsi miremire, yafashe ku kaboko k'umugabo umuhagaze imbere, wambaye umupira w'ubururu ndetse afite n'imvi mu mutwe.

Umugore uri guseka uteze igitambaro gitukura mu mutwe afashe ku rutugu umusaza uri kumusoma ku itama.

Umuntu usutamye wambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufiya ndetse n'agapfukamunwa, ufite imisatsi iboshye kumutwe, imbere ye hicaye umugabo wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa.

Umugore udafite umusatsi ku mutwe, ufite igikombe mu ntoki, yambaye amaherena ku matwi, hari ibitambaro by'umweru birinda urumuri, bimanitse mu madirishya y'icyumba arimo.

Umugore ugaragara nk'ukuze, wambaye imyambaro y'umuhondo, yambaye amadarubindi ku maso, afite imisatsi myinshi ku mutwe, afite agacupa mu ntoki ko mu ibara ry'umweru.

Umusaza ndetse n'umukecuru, wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, uwo mukecuru yambaye umupira w'ubururu ndetse n'urunigi mu ijosi.

Umugore ufite imisatsi irimo imvi ugaragara igice cy'igihimba, inyuma ye hari undi mugore ufite imisatsi y'umukara urimo uraseka amufashe ku kuboko.

Umugore uri guseka ufite imisatsi y'imvi, wambaye umupira wo mu ibara ritukura, iruhande rwiwe hari umusaza, wambaye umupira wo mu ibara ry'ubururu.

Abagore bagaragara nk'abakuze, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye hasi, inyuma yabo hari intebe zo mu ibara ry'umweru.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye ishati y'amaboko maremare n'amadarubindi ku maso afite ubwanwa burimo imvi ari guseka afite ifirushiti n'icyuma mu ntoki, imbere yiwe hari ameza ateretseho amasahani, iruhande rw'iwe hari undi mugore.

Umugore wambaye imyambaro irimo ibara ry'umukara, afite umusatsi w'umweru, iruhande rwiwe hari abandi bagore babiri, bose bari guseka, imbere yabo hari ameza.

Umugabo ufite imisatsi irimo imvi, ufashwe amaboko n'abantu babiri, harimo umukobwa ndetse n'umuhungu, ari kugerageza guhaguruka ku gitanda gishasheho amashuka y'umweru.

Umuntu ufite urupapuro mu ntoki, wambaye impeta, ari kurwereka umusaza ufite imisatsi y'imvi, ufite n'agacupa mu ntoki, imbere yabo hari ameza ateretseho igikombe.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, wicaye afite ifurusheti mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho imbuto, iruhande rwe hari umugore ufite icupa n'igikombe mu ntoki ari gusukamo icyo kunywa.

Abantu benshi bicaye hamwe, harimo abambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abaganga na ga z'umweru mu ntoki, hagati yabo hari ameza ariho udukarito duto.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, bicaye bazengurutse ameza yo mu ibara ry'umweru, ateretseho mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa mu isura, imbere hari umuntu wicaye, wambaye imyambaro y'umweru, imbere ye hari ameza ateretseho impapuro.

Abantu benshi bahagaze hamwe, harimo abagabo ndetse n'abagore, abagabo bambaye imyambaro y'amakote ndetse n'amapantaro, inyuma yabo hari icyapa kiririmo ibara ry'ubururu.

Umukobwa ndetse n'umuhungu bahagararanye bari guseka, bafite ibyapa by'umukara mu ntoki byanditseho amagambo ndetse n'imibare, inyuma yabo hari intebe zo mu ibara ry'umweru.

Umukobwa w'umwirabura wambaye ikanzu n'inkweto ndende, iruhande rwe hahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara, inyuma yabo hari icyapa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hicaye abandi bantu hari n'icyapa cyanditseho amagambo.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara uryamye hasi mu gisambu iruhande rwiwe hari abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bambaye udupfukamunwa mu isura hari n'igiti.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari abandi bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, bagaragara nk'ababyina.

Abakobwa benshi bambaye imipira isa yo mu ibara ry'umweru y'amaboko magufiya, ifite igishushanyo mu gatuza, bambaye amapantaro y'amabara atandukanye.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, imbere yabo bicariye abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wicaye hagati. Umugore umwe yambaye imyambaro y'imikenyero undi ni umuzungukazi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imipira yo mu ibara ry'umweru, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hahagaze umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara.

Umugore usa nk'ukuze, ugaragara igice cy'isura, wambaye igitambaro cyo mu ibara ritukura mu mutwe, apfutse igipfuko cy'umweru ku jisho rimwe, ari guseka.

Abantu benshi bahagaze hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, inyuma yabo hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo.

Abagore bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, abenshi muri bo bateze ibitambaro mu mutwe, bose bateruye abana, inyuma yabo hari igikuta kimanitseho ibyapa.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bisa uhagaze, imbere ye hari indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa kiriho ishusho y'umugabo uhagaze wambaye ikote n'amadarubindi ku maso.

Abagabo babiri bakoranye mu biganza, bafite impapuro mu ntoki, umwe yambaye amadarubindi ku maso, undi yambaye impeta ku rutoki, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ingofero mu mutwe ndetse n'amadarubindi yambaye ishati y'amaboko maremare afashe ku kuboko k'umuntu wambaye imyambaro mu ibara ry'ubururu n'agapfukamunwa ari kumutera urushinge rwo kwa muganga.

Umugore wicaye wambaye ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki, yambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi uboshye ku mutwe, inyuma yiwe hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru n’agapfukamunwa mu isura, n'isaha ku kuboko ari gutera urushinge undi wambaye umupira w'umweru, ufite imisatsi iboshye ku mutwe...

Abantu bicaye, hari n'abandi babahagaze inyuma, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare n'amadarubindi ku maso n'ingofero mu mutwe, ufite urupapuro rw'umweru, rwanditseho amagambo yo mu ibarara ritukura.

Umugore wambaye umwambaro urimo amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi ufite umusatsi uboshye ufungiye inyuma, yambaye amadarubindi ku maso, afite indangururamajwi mu ntoki ndetse na terefone ngendanwa, ahagaze mu cyumba, imbere ye hicaye undi muntu utagaragara neza

Umugabo wicaye wambaye ipantaro y'umukara, ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umukara, iruhande rw'iwe hari undi wambaye nka we, iruhande rwabo handitse amagambo yo mu mabara atandukanye.

Abantu bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya, bari kugenda mu muhanda bafite ibyapa byanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru, inyuma yabo ku ruhande hagaragara ibiti.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye mu cyumba kigaragara nki k'inama, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, icyumba gifite ibikuta biri mu ibara ritukura.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza asasheho ibitambaro, ateretseho na mudasobwa.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara ufite imisatsi iboshye ku mutwe, imbere ye hicaye undi muntu wambaye ishati y'umweru yahiniye mu nkokora bamufashe ku kuboko, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi.

Umugabo wambaye impuzankano zigaragara nk'izabaganga, wambaye ga z'ubururu mu ntoki, yambaye agapfukamunwa ko mu ibara ry'ubururu afite icupa mu ntoki, ari mucyumba kirimo imashini.

Umuntu wambaye impuzangano igaragara nk'iy'abaganga, wunamye iruhande rw'umuntu uryamye agaramye, wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero y'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, hejuru ifite igikuta cy'umweru, cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari indabo.

Ubusitani bushinzemo ibendera, iruhande yabwo hari imodoka yo mu ibara ritukura, imbere yayo hari inzu ndende y'igorofa, ifite ibikuta by'umweru.

Abantu bahagaze mu gisambu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abazungura ndetse n'abirabura bahagaze iruhande rw'icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro by'umukara, hari n'icyapa cy'umweru, cyanditseho amagambo y'umukara.

Umuntu uryamye agaramye, yambaye ikanzu irimo amabara y'ubururu, iruhande rw'iwe, hari umugore umufashe ku kuboko n'umugabo wamufashe ku gahanga.

Icyumba kigaragara nk'icyo kwa muganga gifite ibitambaro birinda urumuri ku madirishya, harimo ibitanda byinshi biryamyeho abantu bishasheho amashuka yo mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako isakarishije amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, yometseho icyapa cyo mu ibara ry'umweru, gishushanyijeho ijisho, cyanditseho n'amagambo, imbere yayo hari indabo ndetse n'agahanda gashashemo amabuye.

Umugabo munini uryamye ugaramye, yambaye ikabutura ndetse n'agapfukamunwa, iruhande rw'iwe hari imashini zitandukanye hari n'utujerekani, hari igitambaro kirinda urumuri ku idirishya.

Abantu bambaye impuzangano zisa zo mu ibara ry'umweru, bari mu cyumba gifite ibikuta by'umweru, hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'amadarubindi ku maso, umwe muri bo amufashe ukuboko.

Abantu bambaye impuzankano zisa, zo mu ibara ry'ubururu, bateze udutambaro mu mutwe, inyuma yabo hagaragara ibiti bitandukanye harimo ibyo mu bwoko bwi'imikindo.

Imbuga isashemo amabuye mo hagati hateyemo igiti kimwe, imbere yayo hari inyubako yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Umusore wambaye umupira w'ubururu n'ingofero mu mutwe, utwaye igare atwayeho umugenzi, bari kunyura mu muhanda uri iruhande rw'inyubako yanditseho amagambo y'umukara hejuru.

Icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara hejuru mu nguni gishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda giteye mu mbuga iruhande rwayo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umuntu uryamye ku gitanda kigaragara nk'icyo kwa muganga, yambaye ipantaro n'ishati iciyemo imirongo, yambaye n'amasogisi y'umweru mu birenge, iruhande rwe hunamye umuntu wambaye imyambaro igaragara nk'ampuzangano y'abaganga, agapfukamunwa mu isura ndetse na ga z'umweru mu ntoki.

Inzu y'igorofa yanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi hejuru, hariho n'umutima urimo umusaraba hagati, imbere yayo hateye ibiti byo mu bwoko bw'imikindo.

Umwana wambaye ipantaro ndetse n'ikote biri mu ibara ry'umukara, ari gusunika akagare k'umuntu ubana n'ubumuga, wicayemo wambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare.

Umugore wambaye agapfukamunwa mu isura n'amaherena ku gutwi, yambaye itaburiya y'umweru, afite imisatsi iboshye ku mutwe, yicaye ku ntebe y'umweru, imbere yiwe hicaye umwana wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abanyeshuri.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara uri gutunga urutoki ku cyapa cyo mu ibara ritukura cyanditsemo amagambo y'umweru, iruhande rwiwe hicaye umugabo wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, imbere yiwe hari ameza asasheho igitambaro gitukura ateretseho mudasobwa.

Inyubako ifunguye imiryango, hejuru imanitseho icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru, mu imbere hagaragaramo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Abagore bane bambaye imyambaro isa, bambaye udupfukamunwa mu isura, bahagaze mu mbuga isashemo amabuye, inyuma yabo hari inyubako yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, wicaye ku ntebe yumukara inyuma ye hari icyapa n'undi mugabo wambaye amadarubindi ku maso, imbere ye hari ameza afite nikaramu mu ntoki.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bahagaze imbere y'inyubako yanditseho amagambo yo mu ibara ry'icyatsi kibisi hejuru.

Imbuga isashemo amabuye irimo amabendera abiri iy'umweru n'irindi rifite amabara, imbere yayo hari inyubako isakarishije amabati yo mu ibara ritukura.

Umwana wicaye uri guseka, wambaye ipantaro n'ubusa hejuru, iruhande rwiwe hari umugabo wambaye umwenda w'umweru n'agapfukamunwa mu isura, umufashe ukuboko, iruhande rwe hicaye undi muntu, uteze igitambaro mu mutwe.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, irimo amabara y'ubururu, imbere yiwe hicaye umugabo, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari urutoki.

Umugore wambaye umwambaro w'umweru hejuru n'agapfukamunwa mu isura n'amadarubindi ku maso, afashe udutoki tw'akana gato gateruwe n'umugore ufite imisatsi iboshye.

Agahanda gasashemo amabuye, iruhande rwako hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'indabo, hejuru hagaragara ikirere kiririmo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umugore wambaye igitenge hejuru y'amabere, ateze n'ikindi mu mutwe, uryamye ugaramye, iruhande rwe hunamye undi mugore wambaye amadarubindi ku maso, na ga z'umweru mu ntoki.

Uumuhanda wa kaburimbo ufatanye n'uruzitiro rw'umweru rufite urugi ruri mu ibara ry'ubururu, rwanditseho inyuguti ebyiri za ha, mo imbere harimo inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu basutamye abandi babahagaze inyuma higanjemo abambaye imyambaro y'ubururu harimo n'umubikira umwe, inyuma yabo hari inzu isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bagaragara nk'abatonze umurongo, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bari mu cyumba giteyemo intebe z'umukara, hari n'umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga.

Umugabo wambaye umupira utukura, n'ipantaro y'umukara, uhagaze hagati mu mbuga, irimo imodoka z'amabara agiye atandukanye, harimo iz'umweru ndetse n'iz'umukara, inyuma ye hari inzu.

Inzu y'igorofa, ifite imiryango ikinguye, hariho ibyapa byo mu mabara atandukanye, imbere yayo hari imodoka, zitwara abantu ku giti cyabo.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa mu isura bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara hari n'abandi bahagaze imbere yabo.

Abantu batatu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, bari kugenda mu gahanda gasashemo amabuye, iruhande rwako hari ubusitani, imbere hagaragara inyubako.

Urunyurane rw'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, bari iruhande rw'inyubako yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Icyumba kinini kigaragara nk'icyo kwa muganga, kirimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru, hejuru hari amatara arikwaka, hamanitse n'inzitiramubu.

Icyumba kigaragara nk'icyo barwariramo kirimo igitanda kiryamyeho umuntu wiyoroshe ikiringiti kiri mu mabara atandukanye, hari n'ibitambaro by'icyatsi bimanitse.

Ubusitani haruguru yabwo hari inzu, yubakishije amatafari ahiye, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, inyuma y'inzu hari ibigega by'umukara, bibika amazi y'imvura.

Umuntu wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abaganga, wambaye n'agapfukamunwa ku isura, ahagaze iruhande rw'inzu ifite ibikuta by'umweru.

Inyubako isakarishijwe amabati yo mu ibara ry'ubururu, ifite ibikuta by'umweru, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'ubururu, imbere y'inyubako hicaye abantu babiri bafite abana babiri batoya, imbere hari imbuga ishashemo amabuye.

Umukobwa uri guseka, wambaye amaherena ku gutwi n'imyambaro y'icyatsi kibisi yanditseho amagambo y'umukara mu gatuza, n'ingofero y'umweru mu mutwe, yambaye ga z'umweru mu ntoki, afashe ukuboko kw'akana gatoya karyamye imbere ye.

Ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo ndetse n'indabo n'ubundi bwoko bw'ibiti, iruhande rwabwo hari inyubako, hahagaze n'imodoka.

Imbuga isashemo amabuye, ihagazemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bambaye udupfukamunwa mu isura, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wambaye isaha ku kuboko ndetse n'umwambaro ugaragara n'amasangano y'abaganga, yicaye ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma ye hari igitanda cy'abarwayi cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu wambaye imyambaro y'umweru ufite imisatsi yiboshye ku mutwe, yambaye agapfukamunwa mu isura ahagaze imbere y'umuntu uteze igitambaro umutwe wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga.

Umugore wicaye ku gitanda yiyoroshe ikiringiti ku maguru, iruhande rwiwe hari umugore wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abaganga umufashe ku rutugu.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu ibara ry'ubururu, igaragara nk'impuzangano y'abaganga, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu mu isura, inyuma yabo hari igikuta cyanditseho amagambo.

Umusore wambaye ipantaro y'umuhondo n'umupira w'ubururu, ufite telefone mu ntoki, wambaye ingofero y'umukara, wicaye ku ntebe, iruhande rwiwe hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'ubururu.

Abantu babiri batagaragara igice cy'umutwe bambaye amasengeri ndetse n'amakabutura magufiya bafite amacupa mu ntoki bagaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba gifite ibikuta by'umweru ndetse n'idirishya, kirimo umuntu uryamye hasi wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umukara, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira gatoya ko mu ibara ry'ubururu, kagaragaza igice gitoya cy'inda, yicaye yarambije n'amaboko ye ari hejuru y'ibirenge, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Ameza ateretseho ibyokurya bitandukanye, harimo ibyo mu bwoko bw'imboga, inyama, imbuto ndetse n'ibinyampeke, harimo amagi, imineke ndetse n'inyeri.

Umukobwa, ufite imisatsi iboshye, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umukara, imbere ye hateretse icupa, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'agapira gatoya k'umweru kagaragaza igice cy'umugongo, afite imisatsi miremire, yazamuye amaboko hejuru, imbere ye hari ikiyaga.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umukara kagufi kagaragaza igice gitoya cy'inda, wafashe ku kirenge n'ibiganza bye byombi, ukundi kuguru kwe guhinnye agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye inkweto zijya kugaragara nk'umweru, n'ipantaro y'umukara irimo irindi bara, ndetse n'isengeri yo mu ibara ry'umukara, uri kugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro, ndetse n'isengeri, wunamye ukuboko kumwe yagufatishije umugongo, ukundi gufashe munsi y'ikirenge, ugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Igishushanyo cy'umuntu wambaye ikabutura y'umukara, n'inkweto z'umukara n'agapira kari mu ibara ry'icyatsi kibisi, ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe handitse amagambo.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi ifungiye hejuru, wambaye imyambaro yo mu ibara ry'umukara ninkweto z'umweru, wicaye mu muhanda, ugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu upfukamye yubamye, wambaye ikabutura y'umukara, ufite imisatsi ifungiye inyuma, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye imyenda igaragara mu ibara ry'umukara, wambaye n'inkweto z'umukara, afite imisatsi iboshye ku mutwe; agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ugaragara igice cy'igihimba, yambaye umupira wo mu ibara ry'icyatsi kibisi, afite icupa yashyize hejuru, afatishije ibiganza bye bibiri, riri kumumena amazi mu isura.

Abantu bagaragara nk'abari mu kibuga, bambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, ikibuga gikikijwe n'abandi bantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari urutoki, hagaragara n'ikirere cy'ubururu ndetse n'umweru.

Umukobwa wambaye ikabutura y'icyatsi kibisi, wicaye mu byatsi yarambije amaboko ye yose yafatishije ku birenge, yambaye agapira gatoya kagaragaza igice cy'inda, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu utagaragara igice cy'umutwe, wambaye inkweto z'umweru, amasogisi y'umukara, ikabutura y'umukara ku ruhande ifitemo ibara ritukura n'umupira utukura, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto za pinki yambaye isengeri yo mu ibara rya pinki yicaye yunamye yifashi munsi y'ikirenge ndetse no ku mavi agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uryamye mu kibuga, kigaragara nk'icyo bakiniramo umupira w'amaguru, yambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umukara n'amasogisi y'umukara, iruhande rw'iwe hapfukamye undi mugabo, umufashe mu ivi, wambaye umupira w'ubururu, hari n'umupira wo gukina, wo mu ibara ry'umweru n'umukara.

Umuntu ufite imisatsi miremire, wambaye ipantaro n'agapira kagufiya, kagaragaza igice cy'inda ugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu ugaragara nk'uri kwiruka wambaye ikabutura ndetse n'umupira urimo ibara ry'umweru, iruhande rw'iwe hari ibiribwa bitandukanye harimo karoti, imizabibu ndetse n'amashu.

Umuntu wicaye, wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, ufite igitambaro cy'umuhondo mu ijosi, wambaye isaha ku kuboko, afite na telefone ngendanwa mu ntoki.

Umugore w'umuzungukazi, ufite terefone ku gutwi, ufite imisatsi miremire, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira gatoya k'icyatsi kibisi, kagaragaza igice gitoya cy'inda, yarambuye ukuboko k'umwe, ukundi gufashe ku kaguru.

Umugabo wambaye isengeri yo mu ibara ritukura, yanditseho imibare mu gatuza, afashwe mu rubavu n'undi mugabo wambaye umupira w'umweru.

Umwana mutoya uri guseka, wambaye inkweto z'umweru ndetse n'imyambaro y'umweru, iruhande rwiwe hicaye umugore, wambaye imyambaro y'igitenge, yiganjemo ibara ry'ubururu.

Umuntu ugaragara igice cy'igihimba wambaye umupira urimo ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi kibisi, afite igitambaro cy'umweru mu ijosi n'icupa ku munwa.

Umugabo n'umugore bambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, umweru ndetse n'umukara basutamye iruhande rw'umuntu uryamye hasi mu gisambu, iruhande rwabo bahagaze abandi bantu.

Imbuto zirunze hamwe, zirimo imineke, amacunga ndetse n'imizabibu, iruhande rwazo hari umuntu ugaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo igitanda cyo kwa muganga gifiteho matera yo mu ibara ry'ubururu hejuru hari amatara ari kwaka ku mpande hari imashini zigiye zitandukanye zihateretse.

Umukobwa wambaye isengeri ya movi, ufite umusatsi mwinshi ku mutwe, yambaye ekuteri z'umweru mu matwi, afite icupa riri mu ibara ry'ubururu ririmo amazi acagase ari kugaragara igice cy'gihimba.

Umugabo wambaye ikabutura n'umupira utukura, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro, bafite umupira wo gukina mu ntoki bagaragara nk'abari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye ikabutura n'inkweto, hejuru yambaye ubusa, wasutamye yarambuye ukuguru kumwe, yikoze ku kirenge, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ubururu, upfukamye n'ivi rimwe, yazamuye amaboko, yambaye agapira k'umweru kagaragaza igice cy'inda, agaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye wambaye ipantaro n'agapira k'umukara gatoya kagaragaza igice cy’inda imbere yiwe hateretse mudasobwa inyuma yiwe hari intebe z'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri n'isaha ku kuboko, afite umusatsi uboshye ku mutwe, ukuboko kumwe kw'iwe kuri gukora mu mugongo, ukundi kuri gukora mu nkokora, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye agapfukamunwa, uteruye akana gatoya, yagafashe inyuma mu mutwe, imbere yabo hari undi muntu wambaye impuzankano zisa, wamuritse itara mu gahanga k'umwana.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye, bambaye ingofero mu mutwe, ndetse n'udupfukamunwa mu isura, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, hari n'isakazamashusho imanitse ku gikuta.

Umugabo wambaye ubusa hejuru wambaye n’ipantaro y'umukara ukikijwe n'ibiribwa bigiye bitandukanye harimo amagi, amashu ,inanasi ,inkeri ,karoti ndetse n'ibindi.

Imbuga isashemo amabuye, irimo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri, haruguru yabo bateye ibiti.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'amaboko magufiya, wazamuye ukuguru yifashe mu kirenge no mayunguyungu, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibiribwa bitandukanye, harimo amagi, inyama, inkeri, imineke ndetse n'ibindi, iruhande rwabyo, hari igitambaro cy'umweru, hejuru giteretseho icupa.

Abagabo babiri bambaye impuzangano zisa, bateruye umugabo wambaye umupira w'umuhondo wanditseho umubare gatatu mu gatuza, inyuma yaho hari abandi bantu ndetse n'ibiti.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi kibisi, wafashe ukuboko kwe agushyira mu mugongo, ukundi gufashe ku nkokora, ugaragara nk'uri mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa wicaye wambaye ipantaro y'umukara n' agapira gatoya kagaragaza igice gitoya cy'inda, wifashe k'ivi, ukundi kuboko kwafashe ku kirenge, agaragara nk'uri gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu harunze ibintu bitandukanye, harimo ibinini, imidari, imbuto zitandukanye, harimo amacunga, asatuye n'adisatuye, harimo imineke, inanasi ndetse n'izindi.

Umuntu utagaragara neza igice cy'isura, usutamye, wambaye ipantaro n'umupira by'umukara, iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye ipantaro, n'umupira w'ubururu utagaragara nawe, igice cy'isura...

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare wicaye ku ntebe ifitemo ibara ry'umweru, imbere yiwe hari ameza y'umweru ateretseho mudasobwa.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye ku mutwe, wambaye agapfukamunwa mu isura na ga z'ubururu mu ntoki, imbere yiwe hari ameza ateretseho mudasobwa, amakaye ndetse n'ikaramu.

Igishushanyo gishushanyijeho abantu batandukanye, harimo uhagaze, uwarambuye amaboko, usutamye n'uwafashe ukuguru inyuma, bagaragara nk'abari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uryamye ku gatanda kari mu ibara ry'umukara wambaye umupira w'umukara, hari undi muntu umufashe mu mugongo ndetse no ku rutugu wambaye isaha ku kuboko.

Umuntu wambaye ikabutura ngufiya cyane yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, n'agapira kagufi kagaragaza igice kimwe cy'inda, n'inkweto z'icyatsi kibisi, wazamuye ukuguru yifashe mu ivi n'amaboko abiri, ugaragara nkuri gukora imyitozo ngororamubiri.

Amacupa abiri y'umuhondo, yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara, ariho ishusho y'igikakarubamba, iruhande rwayo hari igikarito cyo mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, n'ikindi kiri inyuma n'ishashi iri ku ruhande.

Abantu bahagaze mu murima uteyemo igikakarubamba, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'icyatsi kibisi y'amaboko magufiya.

Imbuto z'amacunga ziteretse hamwe harimo inini ndetse n'intoya, harimo izifite ibara ry'umuhondo n'izifite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo n'izikasemo kabiri.

Agasahani gatoya, gateretseho igikombe cyo mu ibara ry'umweru, kirimo icyo kunywa, gikatiyemo igice cy'icunga, hari n'irindi cunga riteretse iruhande rwacyo.